Ikiganza cyambaye uturindantoki tw'ubururu, kikaba gifite ifumbire mvaruganda ndetse no hasi hari igikaratasi kirimo ifumbire nyinshi, iyi fumbire bagiye kuyishyira ku bimera mu rwego rwo kugira ngo umusaruro uziyongere.

Umugabo wambaye igisurubeti akaba ahetse ipombo, ari gutera umuti mu myaka ye mu rwego rwo kugira ngo izere neza, ubundi iyo ukoze umushinga w'ubuhinzi ni byiza ko umenya buri kimwe cyose imyaka yawe izakenera.

Umwari wambaye agapira gatukura karimo uturongo tw'umweru yambaye n'ingofero mu mutwe, akaba ari gushyira ifumbire y'imvaruganda ku gihingwa cy'ikawa mu rwego rwo kugira ngo irusheho kumera neza bityo itange umusaruro, cyane ko ikawa ari kimwe mu bihingwa bikunzwe cyane mu Rwanda.

Uyu ni umumama uri kwita ku gihingwa cya kawa, izi kawa ziteye neza cyane, akaba ari kugenda azizengurutsa ifumbire, yambaye ikote ry'imbeho mu rwego kugira ngo hatagira udukoko tumumanukiraho.

Iyi ni inyubako icururizwamo imiti igiye itandukanye, imwe ikaba iri mu macupa indi ikaba iri mu dukarito, hagiye harimo utubati twinshi cyane iyi miti igiye ipanzemo, mu rwego rwo kugira ngo bayitandukanye.

Aba ni abahinzi bakaba bari gutera imbuto zabo. Baciye imyobo bashyiramo intera ndetse bamwe bari gushyiramo ifumbire mvaruganda, abandi bashyiramo ifumbire y'imborera mu rwego kugira ngo izi mbuto zizere neza. Abahinzi ni benshi cyane.

Hirya no hino mu gihugu abahinzi bahabwa ifumbire ituma umusaruro wabo wiyongera, iyi fumbire bayihabwa na Tubura, uyu ni umufuka urimo ifumbire bigaragara y'uko ari ifumbire yongera umubyibuho w'ikimera.

Utu n'ubati turimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye; hakaba hagiye harimo amarozwari, hakaba harimo imiti yica udukoko mu myaka ndetse n'ibindi bigiye binyuranye.

Abahinzi bategura ifumbire mbere yuko bahinga. Aba ni abagabo bane, bari gutegura ifumbire, mu rwego kugira ngo ubuhinzi bwabo buzagende neza kandi butange umusaruro.

Ibiganza byambaye uturindantoki tw'ubururu bayoye ifumbire, ni ifumbire y'umweru. Iyi fumbire ikoreshwa aho abahinzi baba bari kubagara ibihingwa barangiza bakayishyiraho, kugira ngo byongere umubyibuho.

Iyi ni ifumbire mvaruganda iteretse ahantu, abahinzi bakunze kuvuga ko gukoresha imvaruganda byaje ari igisubizo kuko byatumye umusaruro wabo wiyongera bityo bakaba bishimira imirimo bakora.

Utubati dupanzemo amoko y'imiti agiye atandukanye, hari iri mu ducupa ndetse n'iri mu dukarito, iyi miti ikaba yifashishwa havurwa indwara zigiye zitandukanye abarwayi baba barwaye.

Utu ni utubati turimo amoko y'imiti agiye atandukanye, hakaba harimo n'umuganga wambaye impuzankano y'umweru, ari kugenda ashyira ku murongo iyi miti, mu rwego rwo kugira ngo ajye amenya aho ayikura.

Iyi ni ifumbire yongerera ibimera umubyibuho. Iyi fumbire ikoreshwa n'abahinzi mu rwego rwo kugira ngo bongere umusaruro. Akenshi na kenshi abantu bafite uburambe mu by'ubuhinzi bakunze kuvuga ko yongera umusaruro koko!

Uru ni urubyiruko ruri kwita ku bihingwa, ni ibihingwa byiza cyane by'ibigori, bari kugenda bongeramo ifumbire ituma bino bigori bishisha ndetse bikazagira n'umusaruro mwiza kandi uhamye.

Ahakorerwa ubuhinzi akenshi na kenshi usanga haba hari ifumbire ndetse n'ibihingwa biri kwera, aha ni ahantu heza cyane harimo ibigori, hakaba harimo ibishyimbo ndetse hari n'amashyamba ahazengurutse, bigaragara ko ari heza.

Igisorori kirimo ifumbire mvaruganda. Ifumbire mvaruganda ikaba ikoreshwa, mu buhinzi bugiye butandukanye. Abahinzi bahinga imboga barayikoresha, ndetse n'abahinga ibihingwa bigiye bitandukanye, birimo n'ibigori n'imyumbati bakaba bayikoresha.

Iyi ni inyubako irimo ibikoresho bigiye bitandukanye harimo utubido, amajage, amakarito arimo ibikoresho bigiye bitandukanye ndetse hakaba harimo amasabune ndetse n'ibyo kunywa, aho abantu bakorera hano bigaragara ko banezerewe.

Agacupa karekare k'umweru gafite umupfundikizo w'umweru, kariho icyacyapa kiri mu mabara agiye atandukanye, harimo umweru, umuhondo, umutuku ndetse n'ubururu, iki cyapa kikaba kiriho n'amagambo asobanura izina ry'uyu muti.

Iyi ni imifuka ine irimo ifumbire ni ifumbire iri mu bwoko bumwe, ikaba iteretse ahantu heza cyane mu rwego rwo kugira ngo itangirika. Iyi fumbire ifasha abahinzi kongera umusaruro, ndetse ikatuma biteza imbere.

Iyi ni ifumbire mvaruganda ikaba ikoreshwa n'abantu bagiye batandukanye. Aho abahinzi bishimira gukoresha ifumbire mvaruganda kuko zibafasha kubona umusaruro uhamye maze bakabona inyungu mu buhinzi bwabo.

Aha ni ahacururizwa imiti y'amatungo igiye itandukanye, hakaba hari utubati igiye iteretsemo, si ibyo gusa kuko bacuruza nk'ibikoresho wakwifashisha uvomerera imyaka ndetse bakaba bagira n'imiti yica udukoko tuba mu myaka.

Utubati turimo amoko y'imiti agiye atandukanye haba iri mu ducupa, iri mu dukombe ndetse n'iri mu dukarito, aha hakaba ari mu nyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho kandi ikomeye, abagana iyi nyubako bahabwa serivise mu buryo bukwiye.

Uyu ni umumama wahinze igihingwa cy'inyanya. Ni inyanya nziza cyane ndende kandi zeze neza zidakora hasi, cyane ko ngo ibi bituma zitangirika, bityo umusaruro ugasarurwa neza uko wagenwe. Uyu muhinzi arabyishimiye.

Imirima itunganyije neza cyane kandi iteyemo imboga, iyi mirima iteye ahantu ubona munsi y'imisozi kandi ikaba itunganyije neza, abahinzi bamaze kumenya ko kugira ngo ugire umusaruro uboneye ari ukuba witaye ku murima wawe.

Igihingwa cyiza cyane k'icyayi ubona ko gishishe, abahinzi b'icyayi bakunze kwishimira ukuntu iki gihingwa kiba gisa neza maze noneho byagera ku gaciro gihabwa mu gihugu bakishima birenze.

Iki ni igihingwa cy'ipapayi. Hakaba hariho amapapayi menshi cyane, bigaragara ko yeze neza. Harimo ahishiye cyane, ndetse n'andi agisa icyatsi. Aha bikaba bigaragara ko uwayihinze nawe imutera ishema.

Ubuhinzi bwiza cyane bwitaweho inyanya nziza cyane ubona ko ziteye mu buso bunini, zikaba zitabwaho mu rwego kugira ngo zizatange umusaruro mwiza cyane kandi uhamye.

Iki ni igihingwa cy'umuceri cyeze neza cyane bigaragara ko abawuhinga bawitayeho bakawuha ifumbire, bakawuha n'amazi, aha rero ukaba ugiye kwera n'ubwo hamwe na hamwe inyoni zagiye zihona.

Insina zikiri ntoya cyane, bigaragara nk'aho wagira ngo zimejeje ahantu, aha ni ahantu ubona ko ari inyuma y'urugo rw'umuntu, hari igipangu ndetse hari n'umunara muremure, bigaragara ko bawufatiraho amarezo.

Uyu ni umumama ukora ubuhinzi bw'imbuto zongera amaraso zizwi nka beterave, uyu mumama yazitayeho neza cyane zirera, zimwe yazisaruye maze yereka abantu umusaruro we.

Iri ni ishyamba riri gukura kandi rizitanye abantu benshi bakunze gutemberera ahantu nk'aha, aho bagenda banyuramo birebera ubwiza bw'ibiti biba byarihuje ariko bigasigamo utuyira.

Avoka nziza cyane zizwi nka kijyambere ziteretse mu gatete, ziteretse ahantu hasi bigaragara ko izi avoka zishobora kuba ziryoshye, ni byiza ko buri muntu wese afata ifunguro ariko akarenzaho urubuto byibuze rumwe.

Ubuhinzi bw'ibirayi, ni bumwe mu buhinzi bukorw, maze bukagira umusaruro, cyane ko abantu babihinga kubera ko biryoha kandi ugasanga ku isoko biba bihenze cyane, bityo iyo ubyiyezereje uba umeze neza.

Abahinzi benshi cyane bamaze gusobanukirwa neza ko ibihingwa byabo byera neza ari uko babyitayeho, ibi ni ibigori byiza cyane bihinze mu kibaya, hakaba harimo abahinzi bahuguwe babyitaho.

Igihingwa cy'inyanya ni bimwe mu bihingwa byera neza cyane iyo byitaweho, aha hari inyanya zazamutse, bikaba bigaragara ko mu minsi mike umuhinzi wazo azaba ari kuzisarura maze nawe akanezezwa n'umusaruro we.

Ahakorerwa ubuhinzi bugiye butandukanye hakaba harimo ibimera byinshi cyane, harimo ikimera cyeraho ibihaza, hakaba harimo urunyanya ndetse hakaba harimo n'ibigori bigaragara ko byeze, aha rero hakaba hari ubuhinzi bucucitse.

Ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto bwahawe agaciro mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aha turi kubona igihingwa cya avoka kitaweho gisasiwe neza, ibi bikazatuma yera vuba kandi ikera imbuto nziza cyane ziryoshye.

Uyu ni umurima uteyemo igihingwa cy'ikawa, iyi kawa itewe mu buryo bugezweho, ndetse nyirayo bigaragara ko yiteje imbere, ni ahantu hatagiraga umusaruro, ariko kuva yahagera yahahinze kino gihingwa kirahakunda.

Abahinga ibishyimbo bakunze kubitera mu myobo kandi ku mirongo barangiza bakabishingirira, ariko hirya no hino ahahingwa ibigori, hari ubwo babisaruye barangiza bagateramo n'ibishyimbo maze ibyo bishyimbo bikazerera ku biti by'ibigori.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'agapira, akaba ari kwita ku gihingwa cye cy'inyanya, n'inyanya zeze neza bigaragara ko zimwe zamaze guhishira ndetse n'izindi zikaba zenda guhishira, uyu mugabo anejejwe n'umusaruro we.

Ubu ni ubuhinzi bw'amasaka; amasaka akunze kwera hirya no hino ariko iki cyo ni ikibaya kirimo amasaka meza cyane atarigeze aboneka na hamwe, hakurya y'aya masaka hakaba hari ishyamba rirerire.

Umuvuzi w'amatungo, ari kuvura imbwa yaryamye hasi. Iyi mbwa bigaragara ko na yo yagize ikibazo cy'uburwayi, ariko bitewe nuko nyirayo ayitaho, agahamagara muganga w'amatungo ngo aze ayiteho.

Ubutaka bwegeranyijwe ahantu hamwe, akenshi na kenshi usanga inzobere ari zo zegeranya ubutaka, zarangiza zikabukuramo nk'ifumbire, aha rero hakaba hagaragara ko icyo gikorwa cyateganyijwe.

Aha ni ahabera ubworozi bw'inkoko harimo udukoko tukiri duto twinshi cyane, bakaba bari kuduha ibyo kurya mu rwego kugira ngo dukorere vuba maze badushyikirize abandi borozi nabo borore ndetse na ba nyirazo babona amafaranga.

Abiga ibijyanye n'ubuhinzi ukunze gusanga bakora ubushakashatsi ku bintu bigiye bitandukanye, maze bitewe n'ibyo bari gushakashaka bagafata udupapuro bakatwandikaho imibare, utapfa gusobanukirwa utabizi.

Amatungo agiye atandukanye arimo n'imbwa, akenshi na kenshi na yo ahabwa ubuvuzi iyo yagize ibibazo. Iyi ni imbwa yavunitse ukuboko bakaba barayipfutse, iri ahantu bigaragara ko na yo bari kuyireka ngo ibanze ikire.

Ubworozi bw'inkwavu, ni bumwe, mu bworozi bwiza cyane. Bukunzwe kororwa n'abana cyane ko, aribo, baba bashaka gutera imbere. kandi, nta gishoro kinini bafite. Aha hari urukwavu rumwe rwabyaye abana benshi. Bigaragara ko urworoye, agiye kubona amafaranga.

Ikiganza kiriho ifumbire mu ntoki, iyo umuhinzi agiye gukoresha ifumbire arabanza akayifata mu ntoki maze akayitegereza, ibi bigatuma umusaruro we wiyongera kuko akoresha ifumbire yizewe.

Abahinzi babigize umwuga basuye abahinzi, aho batunganyiriza ifumbire, umwe ari gufotora umubyeyi uri kumwerekera abereka uko bagiye babigenza mu rwego rwo kugira ngo babone iyi fumbire.

Umusore uri guhinga, ni umurima urimo insina zitari nyinshi, yambaye ikabutura ndetse n'agapira afashe isuka mu ntoki, uyu musore bigaragara ko yabonye umubyizi kuko yahinze ahantu hanini, iyo urebye inyuma ye uhita ubibona.

Umugabo wambaye ishati ufite inda nini, yambaye n'amarinete, akaba ari mu murima w'ibigori aho ari gutunga urutoki ikigori, ni ibigori byiza cyane ubona ko byahinzwe neza kandi bikaba byeze ku rwego rushimishije.

Aha ni ahabereye igikorwa cy'umuganda, muri uyu muganda bakaba bari gukora umuhanda, bose bitabiriye kandi bazana amasuka, aho bari kugenda baharura ndetse bongera n'umuhanda, mu rwego kugira ngo bakomeze babungabunge ibikorwa remezo.

Umumama uhagaze mu murima w'ibigori byeze neza, ni ibigori byitaweho kuva bakibitera bizamuka babyitaho, kugeza ubu bireze kandi ni ibigori binini cyane ku buryo butagereranwa.

Umusore wambaye agapira k'umukara ndetse n'ipantaro y'ubururu ari gukorera isuku ibihingwa bye, ni amateke ndetse n'urutoki bihinze neza yasasiye nawe akaba ari mu nzira y'iterambere.

Iri ni ishyirahamwe, bakaba ari abantu benshi cyane bishyize hamwe, bari guhinga bashyize hamwe, aho bagenda baca amaterasi y'indinganire ndetse ukabona ko babyishimiye, ibi bituma babona umusaruro.

Uyu ni umurima wateguwe neza cyane ugiye guhingwamo ibihingwa bigiye bitandukanye, haruguru yabo hakaba hateye insina ndetse hakaba harimo n'ibiti bimeze neza cyane, bigaragara ko aha hantu hazera neza nta kabuza.

Uyu ni umumama uri gukorera isuku igihingwa cye cy'ibigori, ni ibigori byiza cyane ubona ko yitayeho kuva akibitera kugera na n'ubu yenda kubisarura ariko akaba ari guhingamo, mu rwego rwo kugira ngo nabisarura azahite ateramo indi myaka.

Uyu ni umumama uri mu murima we, akaba ari kugenda ahinga, hagiye harimo ibigori kimwe kimwe akaba ari kugenda abibagarira bigaragara ko agiye guteramo indi myaka kuko iyi ishobora kuba yararubmye.

Uyu ni umugabo wambaye igisarubeti cy'icyatsi kibisi, akaba yambaye ingofero y'ubururu, ari gutunganya ifumbire ye mu rwego rwo kugira ngo ajye guhinga ibihingwa bye maze bizere neza kuko yabifumbiye.

Abana bato cyane biga mu mashuri abanza, bari kumwe n'abarezi babo, aho bashyize hamwe bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso, nyuma y'igikorwa bamaze gukora.

Aba ni abantu bari mu gihingwa cy'umuceri, ni umuceri wize neza cyane kuko bigaragara ko wubiye mu murima ndetse bakaba bari kuwusarura, abahinga umuceri bavuga yuko banezezwa no kubona umuceri weze.

Umugabo wambaye bote z'umukara, ipantaro y'umukara, akaba yambaye agapira karimo utubara tugiye dutandukanye, afite ipombo ahetse mu mugongo ndetse akagira n'akajerekani kavamo uwo muti ari kugenda atera mu myaka ye.

Uyu ni umuhinzi wabagize umwuga, ari mu murima we yateguye neza yifashishije ikamba, aho yagiye acamo uturima duto duto, bigaragara ko agiye guteramo imboga cyangwa se imbuto, ibi bigatuma abona uko azengurukamo aziha amazi ndetse n'ifumbire.

Ni umuhinzi uri mu murima akaba ari kugenda yitaho imyaka ye, ni isambu nziza nini cyane ubona ko irimo imyaka igiye itandukanye, aho tubonamo insina, amateke ndetse n'ibirayi, uyu muhinzi akaba agira ngo ateremo n'ibishyimbo.

Umugabo ukora ubuhinzi bw'imboga, imbuto, ibigori ndetse n'insina. Akaba ari kugenda asasira imbuto ze mu rwego rwo kugira ngo zizagire umusaruro nk'uko yabyifuje maze na we abone amafaranga.

Umugabo w'umuhinzi wabigize umwuga yamaze gutunganya isambu ye neza aho yagiye afata akarima kamwe kamwe kugira ngo azabashe guteramo ingemwe ziwe maze ajye abona uko anyuramo azibungabunga kugira ngo zigire umusaruro.

Aha ni ahahunikwa ifumbire zigiye zitandukanye. Iyi fumbire ikaba ikoreshwa mu rwego rwo kugira ngo umuhinzi abashe kubona umusaruro unoze kandi uhamye, bitewe n'uko na we yafumbiye.

Umwari bigaragara ko yishimiye umusaruro we w'ibigori, ni ibigori bihunguye akaba abifite mu biganza bye byombi ubona ko abyishimiye, inyuma ye hakaba hari ibindi bitarahungurwa bimanitse mu rwego kugira ngo bitangirika.

Igihingwa cy'ibigori ni ibigori byize neza cyane bikaba bimanutse mu murima aho byumiyemo, abahinzi iyo batinze gusarura umusaruro wabo hari igihe wangirika bitewe nuko baba batinze gusarura kandi intete zikaba zakuma cyane.

Uyu ni umugabo ukora ubuhinzi bw'insina insina ze zikaba zigira umusaruro mwinshi cyane, aha hari ibitoki bitagira ingano yasaruye, abihagazeho arishimye cyane yafunze igipfunsi aravuga ati Mana ushimwe.

Aha ni ahanurirwa ndetse hakanatunganyirizwa umusaruro w'ibigori, aho ababihinze babisarura bakabizana, bakabitunganya babimanika mu rwego kugira ngo bizagire umusaruro kandi bitangiritse.

Abahinzi basaruye igihingwa cy'umuceri, bakaba bacyanitse ku mashitingi, harimo umugabo uri kugenda uwusanza kugira ngo wume vuba ndetse hari n'abandi bawuyoreye mu mufuka, hari abicaye ndetse n'abahagaze.

Ikibaya gihinzemo ibigori, ni ibigori byinshi cyane bihinze mu kibaya kandi bikaba bigiye kwera, akenshi na kenshi abahinzi b'ibigori babihinga bagamije kwibonera ifu y'igikoma ndetse n'umutsima bita kawunga.

Iyi ni imyumbati yeze neza cyane, bakaba bayikuye barangije bayirambika ahantu hamwe, bigaragara ko bagiye kuyikuraho ibishishwa maze bakayinika bityo bakazabasha kubona ubugari bwo kurya.

Aha ni ahatunganyirizwa umusaruro w'ibigori, aho bawushyira ahantu heza cyane hatuje, mu rwego rwo kugira ngo bawurinde kuba wakwangirika, ni ibigori byiza cyane ubona ko byeze ku kigero cya mirongo cyenda ku ijana, kandi bikaba byeze ku buryo bushimishije.

Ubu ni ubuhunikiro bw'imyaka, harimo imifuka myinshi cyane igiye igerekeranyije, iyi ni imifuka igiye ipanzemo imyaka, bayihunitse ahantu hamwe mu rwego rwo kugira ngo babashe kuyibungabunga ndetse no kuyitaho uko bikwiye.

Abakora ubuhinzi bugiye butandukanye bagaragaza ko iyo butitaweho nta musaruro bagira, aha hari umugabo ndetse n'umugore we bari kugenda babagarira ubutunguru bwabo mu rwego kugira ngo buzere neza.

Aba ni abahinzi bahuriye ahantu hamwe, bakaba baje gutwara ingemwe z'ibiti ndetse n'imbuto ngo bajye gutera, mu Rwanda bakunze gukora ubukangurambaga bwo gutera imbuto ndetse n'ibiti, aho babihera abaturage ubuntu.

Inyuma y'inyubako ukunze gusanga hari ibiti biba bimeze nk'indabyo, aho usanga ba nyir'inyubako na bo babyihorera, mu rwego rwo kugira ngo bibarindire umutekano ndetse bimwe na bimwe bakaba banabyifashisha nk'imiti.

Ishyamba ririmo ibiti birebire ndetse n'ibitoya, iri shyamba ririmo ibiti bigaragara ko byeze ndetse bikaba bimanura amababi menshi cyane hasi yamaze kuma, hakaba harimo n'akayira abantu banyuramo b'abanyamaguru.

Aha ni inyuma y'inzu hakaba harimo ibiti bigiye bitandukanye, harimo ibya sederia, ndetse hakaba harimo n'urutoki, rugizwe n'insina zikiri ntoya, ndetse n'inini, hakaba harimo n'andi moko y'imbuto agiye atandukanye.

Imbere y'ibikorwa remezo dukunze kuhasanga ibiti biba ari birebire kuko bitanga umuyaga, bigatuma abahuriraho babasha guhumeka neza kandi ibikorwa byabo bikagenda neza nk'uko babyifuza.

Igiti cy'icunga gifite amashami maremare akora hasi, kiriho imbuto nyinshi cyane kandi nziza zahishiye zifite amabara y'umuhondo, abahinzi bahinga mbene izi mbuto usanga bakunze kuba bafite amafaranga.

Abakora ubuhinzi bw'ibisheke bishima iyo ibishete byabo byeze neza cyane bikaba birebire. Aha turi kubona ibisheke byiza cyane kandi birebire byegetse ku rugo, aho uwabihinze yabisaruye akaba yiteguye kubijyana ku isoko ngo abone amafaranga.

Iri ni ishyamba rya kuze neza, harimo ibiti birebire ndetse n'ibigufi hakabamo n'ubwatsi burandaranda hasi, aho inyamaswa zishobora kujya zikarisha ndetse zigahaga maze aborozi bakishima.

Ahantu heza cyane bigaragara ko hateyemo imbuto, hakaba harimo n'ibiti, hari inzu nziza cyane bigaragara yubakishije amatafari ahiye ndetse munsi y'ibi biti hakaba hari utwatsi twiza cyane.

aha ni ahakorerwa ubuhinzi bugiye butandukanye, turi kubonamo insina zikiri ntoya, tukabonamo urubingo, ndetse n'indi myaka igiye inyuranye. Mu nce z'icyaro bakunda guhinga imyaka myinshi cyane, mu murima umwe.

Igiti cyatemwe kigwa hasi, urabona ko cyangije ibintu. Si byiza gutema ibiti utabiherewe uburenganzira n'ikigo cy'igihugu gishinzwe amashyamba kuko ushobora kubihanirwa.

Ni byiza ko umuntu ugiye gutema ibiti, agomba kubanza kumenya ko bitari bufunge umuhanda, aha hari ibiti batemaguye, babitema mu buryo bwa kinyamwuga, kuko nta na kimwe kigeze gifunga umuhanda, bityo bikaba bigaragaza ubunyangamugayo n'ubupfura.

Ahantu henshi mu bigo by'amashuri bakunze gutera ibiti, bakabireka bikaba birebire, mu rwego rwo kugira ngo abanyeshuri bajye babasha kubona umuyaga bityo bahumeke neza no mu gihe cy'izuba ryinshi.

Insina nziza cyane bigaragara ko zitaweho, zirashishe, bigaragara ko ari mu gihe cy'imvura zikaba nta kibazo na kimwe cy'izuba zifite, abahinzi b'urutoki bishimira kubona urutoki rwabo rumeze neza kuko baba biringiye kuzabona umusaruro mwiza.

Ubu ni ubucuruzi buciriritse. Ubu bucuruzi bukunze gukorerwa ahantu hagiye hatandukanye hirya no hino muce z'icyaro, mu rwego kugira ngo n'abaturage badafite amafaranga menshi babashe kubona imboga ndetse n'imbuto byo kurya.

Abahinzi benshi cyane bamaze gusobanukirwa neza ko, guhinga ari byiza, bityo bakabikora babikunze kandi babishyizemo ubushishozi. Iki ni igihingwa cya karoti bigaragara ko zishishe kuko, abazihinga bazitayeho.

Aha ni ahabera isoko ry'imboga, hakaba hari kugaragara amoko y'imboga agiye atandukanye, harimo karoti, sireri ndetse n'ibitunguru, abagura ibi bakaba bavuga yuko banezezwa no kubona imboga zikiri nshya.

Ururabyo rwiza cyane ubona ko rukuze, ariko ntirwitabwaho kuko ntibaruconga, ruri ahantu heza cyane ku nkengero z'ahantu hari ubusitani ndetse hari n'agahanda gasashemo amabuye abantu banyuraho bari kuhatambuka.

Aya ni amashaza bigaragara nk'aho atetse akaba ari mu ishashi, akenshi na kenshi usanga abantu batuye mu cyaro bateka ibyo kurya byinshi maze bajya gukora urugendo bakabipfunyika mu mashashi cyangwa se mu bindi bintu.

Ni byiza guhinga neza ugatunganya umurima wawe warangiza ugahinga imyaka iyo ari yo yose, aha turi kubona karoti ziteye neza ku mirongo kandi zeze, aho umuhinzi iyo yateguye umurima we nta kabuza yeza

Umurima munini cyane uteyemo ibihingwa byiza cyane, ni ahantu ubona ko ari ku musozi ariko kandi hakaba hera kandi hahinzemo igihingwa kimeze neza, rero tukaba tubona ko bibanezeza.

Ibitunguru iyo byeze barabisarura, maze bakabyanika, barangiza bakabijyana ku isoko, ibi ni ibitunguru byiza cyane bigaragara ko biteye ishema, abantu iyo bagiye kurya, barya ibitunguru kuko ari ingirakamaro.

Inyanya ziri mu gatete, izi nyanya zikaba zigaragara neza cyane, ni inyanya zasaruwe uwo munsi bakaba bazijyanye ku isoko, kugira ngo abakeneye inyanya nziza nabo bishimire kuzigura, kandi bazikoreshe banezerewe.

Agasanduku karimo amatunda, karimo amatunda menshi cyane kandi yeze. Aha ni ahacururizwa imbuto ku buryo umuntu wese uhahagamye ahabwa ubwoko bw'imbuto ubwo ari bwo bwose yifuza, maze agataha yishimye.

Aha n'ahakorerwa ubutubuzi bw'imbuto, harimo imbuto nyinshi cyane zigiye zitandukanye ziri mu ho, harimo amarozwari bifashisha bavomerera, hakaba harimo n'abantu bari kuzitaho, mu rwego rwo kugira ngo zikure neza.

Aba ni abaturage biteje imbere bakaba bicururiza imbuto zizwi nka avoka, izi na avoka zimeze neza cyane kandi ziryoshye abamama barazicuruza bakabona amafaranga ndetse n'abaziguze bakagira ubuzima bwiza.

Aya ni amoko meza cyane y'indabyo kandi akoreye neza, hakaba hari udupasiparumu tugiye kuma, aha hantu bigaragara ko hitabwaho kandi ari inyuma y'urugo rw'umuntu, uyu muntu akaba yita kuri izi ndabyo.

Imbere y'ibipangu by'abantu bize ukunze gusanga hari indabyo, aha hari kugaragara indabyo nziza cyane kandi zitabwaho, hakaba harimo n'ururabyo rugizwe n'umuti bita kapisine.

Umwana muto cyane uvuye aho bahumbika imyaka ndetse n'imbuto, uyu mwana yitahaniye imbuto zigera muri eshanu, akaba agiye kuzitera mu rwego rwo kugira ngo na we ajye yibonera amatunda.

Ahakorerwa ubuhinzi bw'inyanya akenshi na kenshi ukunze gusanga hakorerwa isuku nyinshi cyane kuko inyanya zikenera kwitabwaho. Izi nyanya ni nziza cyane, zarameze zirakura, zirenda kwera barazisasiye mu rwego rwo kugira ngo zitazangirika.

Umugabo uhetse ipombo akaba ari kuzenguruka mu gihingwa cye cy'inyanya, inyanya zihinze neza cyane. Izi nyanya ari kuzitaho mu rwego rwo kugira ngo azagere ku musaruro yahize kandi nta kabuza azabigeraho.

Uyu ni umumama uvuye gukorera isuku umuceri we mu kabande nuko azamukana imboga mu ibasi, arayikoreye ikaba irimo imboga zifite ibara ry'umutuku, uyu mumama aranezerewe.

Aha ni ahakorerwa igikorwa cy'ubuhinzi bw'amatunda; aya matunda akaba ahinze neza ku buryo buri wese iyo abonye ayishimira, ndetse akaba yumva nawe iki gihingwa yagihinga mu rwego rwo kugira ngo nawe yiteze imbere.

Urupangu rumeze neza cyane rwubakishije amatafari ahiye, rukaba rufite ibyuma byinshi cyane bigiye biri aho bashyize ibimeze nk'amadirishya ndetse mo imbere harimo indabyo nziza cyane zigaragara neza.

Aba ni abahinzi bashinzwe kwita ku mboga ndetse n'imbuto, aha hahinze imboga nziza cyane, ni akarima k'igikoni k'icyitegererezo karimo karoti nziza cyane ndetse na dodo byeze neza cyane na bo birabashimishije.

Karoti ziteye ahantu hamwe ni nyinshi cyane, zimwe zimeze neza izindi bigaragara ko zahuye n'izuba ryishi ntizibashe kumera neza, abakora ubuhinzi bakwiye kujya bahangana n'izuba mu rwego kugira ngo babone umusaruro uhamye.

Ni byiza gutera indabyo imbere y'urugo kuko usanga bigaragaza urugo rwawe neza, aha turi kuhabona indabyo zirimo amabara agiye atandukanye ziteye imbere y'urugo, indabyo zifite amabara y'iroze, icyatsi kibisi ndetse n'umutuku.

Umupapa n'umwana we bari mu murima w'inyanya bose bari kuzireba, ari kugenda areba niba ntazangiritse umwana na we ari kugenda aranduramo utwatsi, uyu mwana bigaragara ko amaze kumenya ubwenge kuko umubyeyi we amugirira icyizere.

Hirya no hino mu gihugu ahantu hateye imbere usanga hari indabyo nziza cyane ziba zizengurutse umuhanda ndetse n'ibipangu byiza cyane byubakishije amatafari ahiye, hakaba hari n'ibiti birebire bitanga umuyaga hafi aho.

Avoka ni kimwe mu bimera ngirakamaro biba mu gihugu cy'u Rwanda, aha turi kubona igiti kikiri gitoya ariko gitanga icyizere ko kizera neza, iki giti gifite amashami akiri mato ndetse kikagira n'amababi meza bigaragara ko gitohagiye.

Iri ni isoko ry'imboga ndetse n'imbuto tukaba turi kubonamo imbuto z'amoko agiye atandukanye, harimo ibiringanya, hakabamo beterave, hakabamo ibase bakoresha babipima ndetse harimo n'uducupa tw'amavuta.

Umumama uhetse umwana ari aho bahumbikira imbuto ndetse n'izindi zigiye zitandukanye, harimo umugabo ndetse n'abana, aha rero hakaba hatunganyirizwa imbuto maze abahinzi bakajya kuzigurayo.

Ni mbuto nziza cyane zeze neza ziteretse ahantu hamwe mu gisanduku, izi mbuto zikaba zigaragara neza cyane, abahinzi b'imbuto bavuga ko iyo zeze neza nabo bibashimisha kuko banezezwa no kubona abaturage bishimiye umusaruro wabo.

Igiti cya voka kiriho avoka zimeze neza cyane, ni avoka zigaragara ko zitaweho kandi za kijyambere aho abantu benshi cyane usanga bazikunze bitewe n'ukuntu zera vuba kandi zikera ziri ahantu hafi.

Uyu ni umumama uri gusarura imbuto mu murima we, ni amatunda yeze neza cyane azengurutse hirya no hino mu murima, ari kugenda areba hejuru akarebamo ayeze bityo akayasarura.

Imineke y'akamara, ikundwa n'abantu benshi cyane kandi iboneka hake mu gihugu. Aha haragaragara inkoko iteretseho uduseru tune tw'imineke.

Izi ni karoti zitigeze zera neza kuko ni ntoya cyane ariko zikaba zasaruwe, akenshi na kenshi iyo uhinze karoti ntushyiremo ifumbire, birangira zeze ari ntoya cyane.

Umwari mwiza cyane ufite imbuto z'amatunda mu ntoki. Ni amatunda atatu uyu mwari arayishimiye kubera ukuntu ahishiye cyane, kuko ayasoromye mu murima w'iwabo ndetse akaba abibona ko agiye kubaho neza.

Iri ni isoko riciriritse rikaba ririmo imyaka igiye itandukanye nk'ibijumba, ibihaza ndetse n'ibindi, harimo abacuruzi na bo bagiye batandukanye bacuruje bino bicuruzwa, ukabona ko bakoze iri soko kugira ngo biteze imbere.

Ibitunguru byeze neza barabisaruye maze barabyaka, bimaze kuma babizana ku isoko. Aha iyo uje kugura ibitunguru bagupimira mu kabase, maze nawe ukishyura amafaranga warangiza ukagenda ukabiteka.

Ubuhinzi bw'imboga n'imbuto bukorwa hirya no hino mu gihugu, izi ni imboga bita ibibiriganya, zikaba zihinze neza cyane zisasiwe, hari amaguru y'umugabo uzikorera isuku uri kugaragaramo, akaba ari ahantu mu murima.

Aha ni mu isoko riciriritse, hakaba harimo ibihaza byiza cyane ibinini ndetse n'ibitoya, harimo ikiganza kiri kwerekana igihaza kimwe, bisa nkaho ari cyo uyu muntu ashaka kwigurira, kuko ari bwo bushobozi afite.

Ubuhinzi bw'umuceri bwageze hirya no hino mu gihugu, aho abahinga kino gihingwa, bagihinga bashyizeho umwete kandi bakacyitaho mu rwego rwo kugira ngo biteze imbere kuko kibafasha no kubona amafaranga menshi cyane.

Iki ni igiti cy'ipera kikiri gito, aho bigaragara ko kizera neza cyane, kizengurutswe n'indabyo ndetse n'ibindi biti biri hafi aho, mu ngo z'abaturage ukunze gusanga baba bifitiye ibiti bimeze nkuko.

Imboga nziza cyane ziteye ahantu, ni imboga zitabwaho kuko bigaragara ko zishishye ariko nanone ukabona ko abazikorera batajya bazisarura, harimo n'izishaje kandi si byiza ko zipfa ubusa zabavunnye.

Umugabo uhagaze mu buhumbukiro bw'imyaka, ni ahantu hari imbuto nziza cyane zihumbitse, izi mbuto barazihumbika, barangiza bakazikuramo bakajya kuzitera mu mirima itandukanye, maze zikazera zimeze neza cyane.

Aha ni mu isoko ry'imboga hakaba hari amoko y'imboga agiye atandukanye harimo ibitunguru, pavuro, imiteja ndetse hakaba hari n'utubase bifashisha bari gupimira abakiriya babagannye.

Iri ni isoko ricururizwamo imboga, harimo utubase turimo imiteja myinshi, hakaba karoti ziri mu tundi tubase ndetse si ibyo gusa kuko harimo n'andi moko menshi cyane y'imboga, aho abarigana bishimira kuzisanga yo ku gihe.

Umugabo wambaye bote, ipantaro ndetse n'agapira, yambaye ingofero mu mutwe we, akaba afite umupira mu maboko ye yombi, ari kuvomerera ibihingwa bye, ni ibihingwa yateye mu buryo bugezweho kandi abitera ku murongo aho bihanye intera, akaba ari gushaka ko bizera neza abiha amazi.

Umumama unezerewe cyane uri mu myaka y'iwe, ni amashu ahinze neza cyane, ari kuyavomerera mu rwego rwo kugira ngo atazanga kwera neza kandi yari yarazamutse, aho uyu mubyeyi anezezwa no kuba ari umuhinzi.

Aha hari ivomero rusange, aho abantu baje kuvoma, hari abana benshi cyane bakuyemo imyenda yo hejuru, hakaba hari n'umumama waje kuvoma ariko bikaba bigaragara ko arangariye umuntu kandi yishimye.

Abagabo babiri bari mu murima y'imyaka bafite umupira w'ubururu uri kuvamo amazi menshi, bari kuhira imyaka yabo mu rwego kugira ngo itazicwa n'izuba bityo bakaba bagira umusaruro udahagije.

Umugabo w'umuhinzi bigaragara ko akora ubuhinzi bwa kijyambere, akaba afite n'uburyo yuhira ubuhinzi bwe, afite amashu meza cyane yateye mu gishanga, aho abonera amazi ku gihe na yo akaba ameze neza.

Umugabo wambaye agapira k'amaboko magufi ndetse n'ingofero, ako gapira gaciyemo uturongo tw'umweru ndetse n'umukara, yambaye n'ipantaro afite umupira mu ntoki ari kugenda avomerera ibishyimbo bye, mu rwego kugira ngo bitazuma.

Aba ni abahinzi bateraniye hamwe bakaba bafite indobo mu ntoki z'umuhondo ndetse n'amajerekani, bari kugenda bavomerera imyaka yabo bifashishije ibi bikoresho mu rwego rwo kugira ngo izere neza idakanzwe n'izuba.

Umugabo wambaye impuzankano y'igisarubeti cy'ubururu afite umupira w'amazi mu ntoki, ari kugenda avomerera imboga ndetse n'imbuto bye yahinze, bikaba bigaragara ko bishishe kuko abyitayeho.

Umuhanda w'igitaka uzamuka ndetse ufite ikorosi, hakaba hagiye harimo imikuku aho imvura yanyuze ndetse haruguru hakaba hari ikibuga cyiza cyane giteyemo ibyatsi bifite ibaba ry'icyatsi kibisi, kandi ubona ko bigaragara neza.

Aha ni ahakorerwa ibikorwa by'ubuhinzi, hagiye harimo ibiti birebire biba byaramezemo, maze bakabura uko babikuramo. Aha hateyemo urubingo, hateyemo imbuto, ndetse hari n'ishyamba riri ruguru.

Igishanga bigaragara ko cyatunganyijwe kikaba kirimo amazi menshi cyane. Bigaragara ko bashaka kuhagira ikiyaga. Hakurya hari ibiti bikiri bitoya ariko byinshi bigaragara neza ko aha hantu hazaba hasa neza kandi hakwiye ubukerarugendo.

Iyi ni imirima itunganyije igiye guterwamo imyaka ndetse hakurya yayo hakaba hari indi mirima iri ku musozi uhanamye, bigaragara ko nayo irimo imyaka, ni byiza ko ahantu hose hari ubutaka habyazwa umusaruro.

Aka ni agace gatuwemo n'abantu bagiye batandukanye. Ni inzu zubatswe mu buryo bumwe, kandi bikaba bigaragara ko hameze neza, ndetse hari n'ibiti byiza cyane, bitanga umuyaga n'amahumbezi ku batuye muri kano gace.

Aha ni mu gishanga ahakorerwa ubuhinzi bw'umuceri, aho imirima iba igiye iciyemo ibice bingana maze bigahabwa abahinzi, na bo bagahinga bakita kuri ubu buhinzi bwabo kugeza igihe bwereye bakabona umusaruro uhamye.

Aka ni agace k'icyaro kakaba gatuweho n'abaturage bagiye batandukanye, usanga ingo i rumwe ruri hano urundi ruri hirya ariko kandi zose ugasanga zihurira ku kintu kimwe, aho baba bakura amazi bakoresha mu gishanga.

Uyu ni umusozi uteyeho ibihingwa byiza cyane, bigaragara nkaho rwose bisa neza, aha hakaba harimo n'ikibaya giteyemo imyaka isa icyatsi kibisi, aha rero abahinzi bishimira imirimo bakora.

Inyubako zubatswe mu buryo bumeze kimwe, zubatse ahantu ubona ko ari mu kibaya, izi nyubako zubakiwe abaturage batishoboye, mu rwego rwo kugira ngo na bo babone aho gutura kandi bature batekanye.

Aha ni ahatuwe n'abantu bagiye batandukanye, hari inzu zisakaje amategura bigaragara ko zubatswe kera, munsi hakaba hari amashyamba akiri mato ari kuzamuka, hirya hari imisozi miremire ndetse n'ibicu bisa umweru.

Aba ni abahinzi bari gukora ubuhinzi bari mu mirima igiye itandukanye, aho buri muhinzi ari kwita ku murima we ariko bose bakaba batunganya imirima yabo mu buryo bugezweho nk'uko babikangurirwa n'abajyanama b'ubuhinzi.

Iki ni ikibaya giteyemo umuceri, harimo imirima myinshi cyane igiye ikase mu buryo bungana, iyi mirima yose ikaba ihingwa mu buryo bumwe, kandi yose ikaba yatanga umusaruro ungana mu gihe abahinzi bayitayeho kimwe.

Uyu ni umusozi muremure kandi uhanamye banyiraho bagiye bahahinga neza, harimo ibihingwa bisa neza cyane biri mu mabara agiye atandukanye harimo icyatsi kibisi, umuhondo ndetse n'umutuku yewe harimo n'ubutaka bukiri gutunganywa.

Aha ni ahari inyubako zituwe n'abantu, hakaba harimo izisakaje amategura ndetse n'izisakaje amabati, usanga abantu benshi cyane bubaka bitewe n'ubushobozi bafite bityo bakaba bayashaka aho kuba mu buryo buboroheye.

Uyu ni umusozi utuweho n'abaturage aba baturage bakaba bihingira ibihingwa bigiye binyuranye, umugo wabo urasa neza cyane biragaragara ko ibihingwa bigiye kwera, hazengurutswe n'amashyamba na yo ameze neza.

Inkwavu ziri mu kiraro cyazo ariko kidafunze, inkwavu bigaragara ko zitonda, izi nkwavu zarorowe, zirororoka, maze zishima uwazoroye, bityo ziritonda cyane kandi ziramukundira.

Umumama ndetse n'umwana we bari kugaburira ingurube yabo, ni ingurube yorowe neza cyane ikaba ibyibushye, bigaragara ko uyu muryango nuramuka uyigurishije uzabona amafaranga menshi, maze na wo ukiteza imbere.

Aha ni ahabera isoko ry'amatungo hakaba hari urujya n'uruza rw'abantu baje kugura amatungo, harimo ihene nziza cyane aho ufite amafaranga ugenda ukagura ubworozi bwiza cyane wifuza.

Aha ni ahabera ubucuruzi bw'amatungo, hakaba hari urujya n'uruza rw'abantu baje kwigurira ubworozi bw'ingurube, hari ingurube ubona ko zikiri ntoya zishobora kororwa kandi zikazakura neza zigatanga umusaruro.

Inka nziza cyane yitaweho. Iyi nka yorowe n'umuntu uzikorora, akaba ayiha ubwatsi bwiza cyane. Iyi inka igira umukamo kandi ikiraro cyayo baragihomye mu rwego rwo kugira ngo itazamena ikagenda.

Aha ni ahabera isoko ry'amatungo, hari abantu baje kugurisha inka zabo ndetse n'abandi baje kuzigura, bigaragara yuko bari kugenda bumvikana ibiciro ariko nta n'umwe uragurisha cyangwa ngo agure.

Intama ebyiri ziziritse mu gisambu, ni igisambu kirimo ibyatsi byiza cyane bisa icyatsi kibisi, zikaba ziri kurisha ariko zose zarebye hejuru, aho bigaragara ko hari ikintu ziri kwiyumvira.

Izi ni inka ziri mu biraro kandi ubona ko zimeze neza, izi nka zitaweho kandi zikaba zibasha kubona ubwatsi uko bikwiye kuko na zo zititaweho zamena ibiraro zikiyirukankira, zihabwa n'amazi kuko hafi aho hari ikigega.

Hirya no hino mu gihugu mu bice by'icyaro, usanga abaturage bose baba bafite amatungo magufi, aha hari umumama wambaye ijipo ndetse n'umupira, akaba ari gukurura ihene ye, mu rwego rwo kugira ngo aziteho, abamama nk'aba bakunze kwita ku matungo cyane.

Ingurube yitaweho neza cyane, ifite ibyatsi byinshi cyane, yabiryamyemo maze irasinzira ,amatungo ni byiza kuyitaho kugira ngo anezerwe kuko bituma atanga umusaruro.

Ubworozi bw'inkoko za kijyambere, aha hari inkoko nyinshi cyane ziteraniye ahantu hamwe, zikaba zitabwaho cyane kuko bigaragara ko zisa neza kandi zikaba zarabyaye udushwi twinshi cyane, nyiri ubu bworozi na we zimutera ishema.

Aha ni ahantu batunze ihene imwe, bayiziritse ku giti cy'urugo ,aho ihene nta n'ubwatsi ifite, ni byiza ko aborozi bita ku matungo yabo mu rwego kugira ngo bayarinde inzara, bityo atange umusaruro.

Aha ni ahororewe inka, ndetse hakaba harimo n'inkoko. Izi inka zimeze neza cyane. Ni inka ifite amabara y'umukara ndetse n'umweru, ikaba iri mu kiraro cyubatse neza cyane ndetse kinasakaye, iyi inka ikaba yitaweho.

Ubworozi bw'inzuki ni umwe mu mushinga ukorwa n'abantu kandi abawukoze ntibicuze, aha turi kubona ibyima bitatu, tukabona n'isanduku, iyi sanduku na yo ikorerwamo ubworozi bw'inzuki.

Ahakorerwa ubworozi bw'inkoko inshuro nyinshi ukunze kuhasanga umurama wo mu ibarizo ndetse hakaba n'udushwi twinshi mu gihe uyu mushinga wahiriye nyirawo, izi ni inkoko nyinshi cyane kandi ubona ko nta kibazo zifite.

Inka nziza cyane ishishe ihagaze mu kiraro cyubakiye neza ndetse kandi gisasiye, iyi nka bigaragara ko yitabwaho kandi itangaga umusaruro uko bikwiye kuko babona ifumbire bagahinga imyaka igiye itandukanye.

Izi ni inkoko zorowe neza cyane, nk'uko bigaragara izi nkoko zikaba imwe itera amagi indi na yo ikaba igeze mu gihe cyo kuba yatera akabariro bityo izi nkoko sikororoka.

Ingurube iyo ibonye ibyo kurya ikarya kugeza ihaze igasinzira, burya umworozi wayo aba afite ubushobozi buhambaye, iyi ni ingurube imeze neza cyane yorowe mu buryo bunogeye umurimo.

Inka nziza cyane zorowe kandi zitaweho, ziri mu biraro byubatswe ku buryo bugezweho ndetse n'abazitaho bakazikorera isuku ku gihe, urabona ko bahora bazitegereza bazicunga kugira ngo zitazicwa n'inzara.

Uyu ni umusaza wiguriye ihene ye, kugira ngo nawe abashe kugira itungo rimuha agafumbire azajya ajyana mu murima we, bityo nawe abashe kubona umusaruro, n'ihene nziza cyane ishishe yitaho yahirira, ndetse akanayisasira.

Aha ni ahakorerwa ubworozi bw'inkoko, hakaba harimo inkoko izikuze ndetse n'izikiri ntoya, bigaragara ko izi nkoko zitabwaho, zigahabwa ibyo kurya ndetse zigahabwa n'amazi yo kunywa maze na zo zikororoka mu buryo budatinze.

Inka y'imfirizone iri mu kiraro, ni inka nziza cyane y'ikibamba ikaba iri kurisha ubwatsi bwiza, iri gutamirira bwshi icya rimwe bigaragara ko yabwishimiye kandi yabukunze, inka iyo iriye ubwatsi nk'uku igira umukamo.

Iyi ni ingurube yitaweho neza cyane, iyi ngurube ikaba imeze neza kuko bigaragara ko ihaze kandi ikaba ari ahantu hakoreye isuku, iyo ukoze ubworozi ubwitayeho burororoka kandi bukaguha umusaruro mu gihe gito.

Uyu ni umusore witeje imbere akaba yambaye igisarubeti cy'ubururu, ari mu nkoko nyinshi cyane bigaragara ko yoroye, ni inkoko zirimo imishwi utabara, uyu musore yakoze ubu bworozi yabiteguye kandi abikora neza.

Ihene ebyiri ziri mu rwuri. Ziri kurisha ahantu hari ubwatsi bwiza cyane, ndetse hakaba harimo n'uduti tureture dukomoka ku byatsi. Izi na zo zirashishe cyane bitewe n'ahantu zirirwa.

Ihene nziza cyane iziritse ku biti. Iyi ni ihene ifite amabara meza ikaba iri ahantu bayiha ubwatsi, aho ubona ko nta kibazo na kimwe ifite ahubwo yitaweho ku buryo butagereranywa.

Abaturage benshi cyane bigaragara ko baremye isoko, aha ni ahacururizwa ingurube hari ubworozi bwiza cyane, ni ingurube nyinshi cyane kandi bigaragara ko ari nziza, izi ngurube uramutse uzoroye zakubyarira inyungu.

Aha ni ahakorerwa ubworozi bw'ihene, hakaba harimo ihene ebyiri, zose urabona ko ubwatsi zabumaze, ziziritse ku rugo ba nyirazo bagiye kuzishakira ubundi bwatsi mu rwego kugira ngo zitazicwa n'inzara.

Izi ni inka zihaga ziri mu biraro byazo. Izi nka nta bwatsi zirabona ariko bigaragara ko bagiye kubuzana. Ni ibiraro byubatse neza kandi bisakariye. Izi nka bikaba bigaragara nkaho nta kibazo zijya zigira.

Inka nziza cyane ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, ikaba yitaweho n'abayorora, ifite ikiraro cyiza cyane gisashemo isaso ndetse ikaba iri no kurya ibyatsi bishishe, ni inka bigaragara ko itigeze ihura n'inzara na rimwe kuko imeze neza.

Ihene ebyiri imwe yiteye hejuru indi iri hasi, ubu ni ubworozi bwiza cyane bw'ihene aho usanga abazorora bishimira kubona zimeze kuko iyo bahuye n'ibibazo bazikenuza.

Ubworozi bw'ingurube bukunze gukorwa mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, aho usanga abantu bakora ubwo bworozi bubaka ibiraro bisa nkaho ari bigufi, maze bagashyiramo ingurube zabo zikororoka neza, aha turi kubonamo ingurube yorowe.

Ingurube ni bumwe mu bworozi bukorwa hirya no hino mu Gihugu. Aho abakora ubworozi bw'ingurube usanga babona amafaranga menshi cyane kandi mu gihe gito, ariko kandi hakabana n'abatarasobanukirwa ubu bworozi.

Inka ndetse n'ihene, aha ni ahakorerwa ubworozi bw'amatungo yaba amaremare ndetse n'amagufi, uyu mugabo yiteje imbere afite inka nziza cyane yitaho ndetse n'ihene ntakabuza bizamukiza.

Abantu benshi cyane batuye mu bice by'icyaro bakunze gukora ubworozi buciriritse cyane cyane nk'ubw'ingurube; izi ni ingurube ebyiri zorowe n'umuntu utuye muri uru rugo, akaba azirekura zikajya gushaka ibyo kurya kugira ngo zikure vuba.

Aha ni ahakorerwa ubucuruzi bw'amatungo. Hakaba hari ihene bigaragara nkaho zamaze kugurwa, kuko baziziritse amaguru mu rwego kugira ngo zitiruka. Abagura ihene baba bafite ubuhanga buhambaye butuma bazigeza aho bazijyanye.

Umumama ndetse n'umwana we bari guha ubwatsi ihene zabo, ni ihene nziza cyane bigaragara ko boroye, mu bice bigiye bitandukanye imiryango imwe n'imwe yiteza imbere binyuze mu bworozi bw'amatungo magufi cyane cyane nk'ihene ndetse n'andi.

Iyi ni ingurube bigaragara nk'aho ishaje cyangwa se ikaba yaricishijwe inzara. Iri mu kiraro cyiza cyane ariko ntabyo kurya yahawe, iri gushaka kurya ibiti, bigaragara ko iyi ngurube iyo yitabwaho iba imeze neza cyane.

Ubu ni ubuhinzi buhinzwe ku buryo bugezweho, aho bahinga imyaka bayitandukanyije ndetse hagati y'akarima n'akandi hakaba harimo umwanya, uzenguruka muri iyi myaka ashobora kunyuramo ikaba imeze neza.

Iki ni igihingwa cy'intoryi. Ni urutoryi ruriho intoryi nyinshi cyane. Bigaragara neza ko uwazihinze yazihaye ifumbire, akazisasira, akazivomerera, akazitaho ku buryo bwose bushoboka kuko zireze neza.

Ubuhinzi bw'urusenda bwitabwaho kubera ko abantu benshi cyane bakunze kurya urusenda mu mafunguro yabo, haba aya saa sita ndetse n'aya nimugoroba ndetse urusenda rukaba rwifashishwa no mu gukora ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Abahinzi b'ibigori iyo bamaze kubisarura barabifata bakabitunganya, barangiza bagakora icyo bita kubimanika, mu rwego kugira ngo bitazangirika, bityo umusaruro wabo utunganywe neza maze bakuremo icyo biyemeje.

Ubuhinzi bw'imboga bukorwa hirya no hino mu gihugu haba abakire ndetse n'abakene barazihinga kuko bazikenera, aha hari imboga nziza cyane zishishe, aho abazihinze bazisarura maze bakazirya bitabagoye.

Ibi ni ibigori byasaruwe neza cyane, maze byanikwa mu buryo bugezweho, aho ibigori babimanika bityo inete zabyo ntizangirike kandi bikazagira ifu nziza cyane.

Ingemwe z'ibiti ziri mu bihoho, izi ngemwe zagemuruwe aho zihumbikirwa, zikaba zigiye guterwa mu murima mu rwego rwo kugira ngo zizere maze abahinzi babone umusaruro uzikomotseho.

Ni byiza ko buri muryango ugira akarima k'igikoni gateyemo imboga; kuko imboga ni kimwe mu bituma umuryango ugira ubuzima bwiza kandi buzira uburwayi. hari abamama babiri baje kwisoromera dodo kukarima k'igikoni.

Umuvuzi w'amatungo wambaye impuzankano y'ubururu yambaye uturindantoki, yakoze mu kibuno cy'inka aho ari gutera intanga iyi nka kugira ngo izabyare neza.

Umugabo wihangiye umurimo agakora ubworozi bw'inka, inka ye imeze neza cyane, ni inka nziza ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, uyu mugabo nawe bikaba bigaragara ko ari umusirimu ndetse ari kuyitaho bihebuje.

Umugabo wambaye bote z'umweru, akaba yambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'umutuku karimo utubara tw'umweru. Uyu mugabo ari gukora mu gitsina cy'inka mu rwego rwo kugira ngo yumve neza ko intanga ari gutera zayigezemo.

Uyu ni umugabo wambaye bote z'umukara, ipantaro ndetse n'ishati yatebeje, yambaye uturindantoki arangije akora mu gitsina cy'inka, ari kuyitera intanga mu rwego rwo kugira ngo na yo izabyare maze abone amata.

Abagabo babiri bari kumwe n'inka imwe, umwe ari kuyagaza undi akagerageza kuyikama ariko ari kugira ngo arebe ko yaba ifite amata kuko nta gahunda yo gukama afite nta kintu afite akamiramo.

Inkende ni zimwe mu nyamaswa zitagira ahantu na hamwe zitinya, cyane cyane zikibera mu nce z'imigi, aha turi kubona inkede yuriye inzu yiyicarira ku gasongero, urabona ko nayo inezerewe kandi nta kibazo ibifiteho.

Iyi nyamaswa y'igitera yibereye ahantu mu byatsi, aho igenda izenguruka mu mashyamba, abantu iyo babonye inyamaswa zimeze nk'uku barikanga, kuko biba bigaragara ko badasanzwe bazibona kandi bikaba bifite ishingiro.

Inyamaswa nyinshi cyane zitangaje ukunze gusanga ziba zikora ibintu umuntu uwo ari we wese areba agatangara, aka ni agasimba kashyize umurizo wako ku mutwe, kakaba kari ku ishami ry'igiti, aho ba mukerarugendo iyo batubonye banezerwa.

Inyamaswa ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara ihagaze mu biti, ikaba iri kureba hejuru abantu benshi cyane bakunze kujya gusura inyamaswa bitewe n'ukuntu zigaragara nkaho ari nziza cyane.

Inyamaswa nyinshi usanga zibayeho mu buryo butangaje. Aha hari agakeri gato kibereye mu rurabyo aho ubona ko kanezerewe, kandi na ko kakaba karafashe ibara nk'iry'ururabyo ku buryo utitegereje neza udashobora kukavumbura.

Ingagi zibereye muri pariki ziricaye neza cyane ziratuje. Ingagi ni inyamaswa z'inyamahoro, bitewe n'ukuntu tubona zihora ziyicariye. Ariko bajya bavuga ngo iyo uzanduranyijeho, na zo zikwereka ko zitavugirwamo.

Inyoni nziza cyane kandi nini ifite amabara y'umukara, ubururu ndetse n'umuhondo ihagaze mu giti gifite amashami menshi, ikaba yihagarariye ku ishami ubona ko nta kibazo na kimwe ifite.

Iyi nyamaswa y'inkazi, bigaragara ko uramutse uyanduranyijeho ishobora kuba yakumerera nabi, yiryamiye ahantu hamwe, iratuje cyane. Ariko bigaragara ko iri maso ku buryo ntawayisagarira.

Umuhanda ukikijwe n'ibiti byinshi cyane ndetse by'ibihuru, hakaba harimo inyamaswa y'inkazi, iyi nyamaswa irabyibushye cyane ku buryo ihagarara muri uyu muhanda ikawuzura, ku buryo hagize ujya kuhanyura atabona aho aca.

Inkende ni inyamaswa z'inzirabwoba, zikaba zinyura ahantu aho ariho hose, zirurira abantu bose bagatabgara, aha hari inkende yuriye igera ku kuma hejuru, irangije ihita ihagarara ni hantu bigaragara ko ari mu mujyi.

Aha ni mu cyanya cyahariwe inyamaswa, aho zihabwa urubuga zigatemberamo, zikishimisha zigakora ibyo zishatse ndetse zibyariramo, aha udafite ubushobozi ngo ujye kuhasura ufite abahamenyereye baguherekeze zakuriramo.

Muri park haba harimo amoko y'inyamaswa agiye atandukanye, hari izo bita udusumbashyamba hakabamo n'andi. Zirirwa zitembereramo maze ba mukerarugendo nabo bakaza bakazireba bakanezerwa.

Inyoni nziza cyane ifite amabara y'umuhondo, umukara, ndetse n'umutuku. ihagaze ku turabyo ubona ko natwo tudakomeye, iyi nyoni ikaba iri kwitegereza mu kirere, mwene izi nyoni zikunze kuba ari inyamahoro.

Inzoka nini kandi iteye ubwoba, iyi nzoka ikaba ihagaze yizengurukije ahantu, bigaragara ko uramutse uyibonye wahita wiruka kuko ntakindi kintu wakora.

Imbwa yorowe neza kandi igahabwa ibyo kurya, iyi mbwa bigaragara ko imeze neza ifite umubiri mwiza cyane ndetse ifite n'amabara meza ba nyirayo barayishimira kuko bayigaburira mu rwe kugira igicunge umutekano

Aha ni muri pariki. Hakaba harimo inyamaswa zigiye zitandukanye, aho ba mukerarugendo baza baje kwirebera izi nyamaswa zitangaje kandi zisamaje. Si ba mukerarugendo gusa kuko n'abatuye mu gihugu kuzibona bibanezeza.

Inkende ziri mu giti kimwe zose zikaba ziri mu kerekezo kimwe. Aho zishimirana ku buryo wagira ngo ni umuryango umwe. Ziri mu biti byiza cyane biri ahantu heza bigaragara ko nta nyamaswa itakwifuza kuhaba.

Inyoni nziza cyane ifite ibara ry'umuhondo, umukara ndetse n'ubururu, yihagarariye ku gati iratuje cyane, izi nyoni ni inyamahoro kandi abantu bazikundira ukuntu zitonda maze zikaba zibereyeho muri ubwo buryo.

Aha ni muri pariki hakaba harimo inyamaswa zigiye zitandukanye, harimo uduhene tw'ishyamba, hakaba harimo n'ibiti byinshi cyane bigiye bitandukanye, izi nyamaswa zirahishimira.

Uruzitiro rukozwe mu byuma hariho ibyuma bitambitse ndetse n'ibindi bihagaze, hakaba hari inkende yicaye kuri uru ruzitiro. Inkende ni inyamaswa zikunze kwisanzura cyane aho usanga zicara ahantu ndetse zikananyura n'ahatanyurwa.

Aha ni muri parike, hakaba harimo utunyamaswa twiza cyane ubona ko duteye ishema. Utu tunyamaswa abantu benshi bakunda kutureba noneho bakadukundira ukuntu twirukanka ariko kandi tukagira urugwiro kuko tubanza kugukeneka.

Aha ni muri pariki, hakaba harimo inyamaswa zigiye zitandukanye, ni ahantu heza cyane zigera zikishimira ndetse na ba mukerarugendo iyo bahageze barahishimira bakanezezwa cyane n'ukuntu izo nyamaswa ziba zihizihiye.

Inyone ebyiri zisa bigaragara nkaho wagira ngo zirabana, ziri ku ishami ry'igiti kimwe nazo zimeze nk'iziri kuganira zirishiranye kandi ziri ahantu heza cyane, bigaragara ko abantu bose baza kuzireba.

Inyoni nziza cyane ifite amabara y'umuhondo, umutuku, umukara ndetse n'ubururu, ihagaze ku ishami ry'igiti bigaragara ko yasinziriyeho, inyoni ni inyamaswa zitangaje bitewe n'ahantu zirirwa ndetse n'aho zirara.

Inyamaswa zibera mu biti ukunze gusanga ziba zishimye, cyane cyane iyo zibereye aho zishimira, aha turi kubona inkende iri kurira mu biti igenda yifatira uturabyo ireba hejuru ukabona irishimye.